Umugore urimo kwigisha abana bakiri batoya, ni kwa kundi abana bakiri batoya bajya mu irerero kugira ngo babigishe, babahe ubutumwa bugiye butandukanye mu gihe bakiri batoya, bazakomezanya mu mashuri abanza.

Umugore urimo kugenda aganiriza abana, aha ngaha ni mu mashuri y'inshuke, aho abana bicaye ku ruziga, uruziga rw'igice ndetse umwe arimo kugenda aganirizwa na mwarimu, arimo kugenda amukosora ku bintu yakoze.

Umugore wicaye ku mukeka, imbere ye hakaba hariho abana bicaye barimo kurebana, aha ngaha ni bwa buryo abana baba bari mu marerero, barimo kugenda bahabwa uburere, ndetse bahabwa n'amasomo azabafasha mu mashuri akurikiyeho.

Abana bicaye ku mukeka ndetse bafite ibikombe barimo kugenda banywa igikoma, ni bwa buryo bwa leta bugezweho abana bajyanwa mu marerero mu gihe bakiri batoya, bakaba batozwa ibijyanye n'amasomo yo mu ishuri ndetse bamara gusoza bakajya mu mashuri y'incuke.

Umusaza urimo kugenda yigisha abana, aha ngaha ni mu mashuri y'incuke cyangwa se mu marerero aho baba barimo kwigisha abana bakiri batoya ubumenyi bashobora gutangirana mu ishuri bakazakura ari intyoza.

Abana bagera kuri batatu b'abanyeshuri, bahagaze ku rukarabiriro, aho barimo kugenda baganira. Aha ngaha ni hahandi bifashishwa mu gukaraba, igihe harimo kwirinda icyorezo, cyane cyane byakorwaga mu gihe hari haje icyorezo cya Covid cumi n'icyenda.

Amashuri aba ariho abanyeshuri barimo kugenda basoma ibitabo biganjemo abiga mu mashuri y'inshuke, abakiri batoya ku buryo batabasha kwicara ku ntebe neza kugira ngo basome igitabo barimo guhagarara.

Aba ni abanyeshuri bakiri mu mashuri matoya, barimo kugenda buzuza ibyo umwarimu wabo abategetse gukora, barimo kugenda bandika ibintu bigiye bitandukanye, umwarimu na we akareba niba barimo kubyumva, akaba yabasha kubakosora.

Ikigo cy'amashuri kiriho imbuga itarimo ubwatsi ndetse gifite inzugi z'ubururu ndetse n'amabati y'ubururu, ku ruhande kandi hariho ikintu gifata amazi kiri mu ibara ry'icyatsi, aho kigenda gikusanya amazi y'imvura.

Ahantu hari ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, hari amashuri yubatse mu buryo butagezweho, bimeze nk'aho ari ibiraro, ndetse ariho abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bamwe bifashe ku gahanga ndetse n'abandi bageze mu gihe cyo gukina.

Icyumba kirimo ibitabo byiganjemo ibyo umuntu ashobora gusoma mu gihe yasuye kino cyumba, cyane cyane ni bya bindi biboneka mu mashuri abanza, ndetse n'aha na za segonderi aho ushobora kugenda ugatira igitabo.

Abana barimo gusomera mu matsinda barimo kugenda bafashanya ku myitozo umwarimu yabahaye, barimo kugenda bawukora ari nako bagenda basobanurirana, abahungu baricaranye ndetse n'abakobwa nabo baricaranye.

Ishuri ririmo intebe zigiye zitandukanye ndetse n'akabati imbere hariho urubaho ndetse kandi nta banyeshuri barimo, bigaragara ko aha ngaha batari baza ku ishuri bakiri mu rugo.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse bambaye impuzankano ifite amashati y'ubururu, barimo kugenda baganira abandi barimo gukina, ni muri cya gihe abanyeshuri baba bahawe akaruhuko.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza arimo kwandika, imbere ye hariho abandi banyeshuri bagenzi be, aho barimo kugenda bitegereza ibyo arimo kwandika, ni bwa buryo abana baba barimo gukorera mu matsinda kugira ngo bafashanye.

Ikibuga aho abanyeshuri bakinira umukino w'intoki cyangwa se basikete, aho bagenda bafata umupira bakawuterera hejuru mu gapaniye cyangwa se agatebo kakawufata, icyo gihe ukaba uratsinze, bakaguha amanota bitewe n'aho uwutereye.

Igitabo kirimo amashusho menshi ayatandukanye ndetse kandi harimo ya yandi yifashishwa n'abana mu gihe barimo gusoma kuko babyita imfashanyigisho, hakaba harimo imyandiko igiye itandukanye umwana ashobora gusoma.

Igitabo kirimo imfashanyigisho zikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza, byiganjemo imibare bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ndetse akaba ari ibitabo byo mu mwaka wa kabiri mu mashuri abanza.

Abanyeshuri barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, biganjemo abiga mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano igizwe n'amakatura ya kaki ndetse n'amashati afite ibara rijya gusa n'ubururu bw'ikirere.

Urubaho rurimo ishusho y'umuntu, aho hariho ibice bigiye bitandukanye by'umubiri kuko ni ishusho isekeje urebye amatwi yarishushanyije ndetse ukareba ibice bigiye bitandukanye, aha ngaha ni igihe abana baba biga ibice bigize umubiri w'umuntu.

Icyumba kirimo akajagari aho harimo intebe, ameza, ibitabo, imyenda ndetse harimo amarido. Hakabamo n'utundi tuntu twinshi cyane byose bivangavanze biteye mu kavuyo kenshi.

Icyumba kirimo akabati karimo ibitabo bigiye bitandukanye byanditseho umubare gatatu, ku ruhande hariho intebe umuntu ashobora kwicaraho ndetse akanegama, utu ni twa tubati tuboneka ahantu mu bigo by'amashuri.

Ahantu hari isahani hakaba hariho ibikoresho byifashisha mu gufata ifunguro, ibiyiko, amafoke, ndetse kandi bakaba babitaye ku meza mu buryo bw'akajagari bikaba binyanyagije hasi.

Ishuri ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibitabo, amakayi, ameza, ndetse hakaba harimo n'abanyeshuri bagera kuri babiri, ndetse bigaragara ko barimo kugenda bakora etide, cyangwa se basubiramo ibyo bize.

Idirishya riri aahantu mu kigo cy'amashuri, ririho utugiriyaje cyangwa se utwuma dutuma umuntu uwo ari we wese adapfa guhita yinjira mu idirishya uko yiboneye, ndetse tukaba dusize irangi ry'icyatsi, aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri.

Utwana dutoya turi mu ishuri, aho bamwe bicaye abandi nabo bakaba bahagaze, ni bakeya kuko biragaragara aka ari nka cya gihe bamwe bamaze gutaha cyangwa se aribwo barimo kugera ku ishuri, anhangaha mu mashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri gifite amarembo ashaje ndetse kandi n'amabati yaho arashaje. Aha gusa azitijwe senyenge ku buryo umuntu atapfa guhita yinjira, hariho n'idarapo ry'igihugu rigizwe n'amabara atatu.

Ikigo cy'amashuri kirimo n'abana bakiri batoya b'abanyeshuri barimo kugenda bagana mu byerekezo bigiye bitandukanye biganjemo abambaye amakaki, abiga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza.

Urukuta ruriho igishushanyo kigaragaza umuntu ufite ubumuga bwo mu maguru ndetse kandi yicaye mu kagare arimo gusoma igitabo, bigaragaza uburezi kuri bose aho nta muntu n'umwe baba baheje uko waba umeze kose.

Urubaho rutagaragara neza rwanditseho ijambo rirerire cyane, ndetse kandi akaba ari urubaho rw'umukara. Ruri ahantu ku kigo cy'amashuri, bisa nkaho ari hanze y'ikigo cyangwa se hanze y'ishuri.

Ikirererekani kifashishwa mu kuvomamo amazi ndetse cyanditseho amagambo agaragaza ko ari cyo mu mashuri abanza ndetse mu mwaka wa kabiri A, kikaba kifashishwa mu gukora amasuku agiye atandukanye igihe abanyeshuri bavoma amazi.

Mu kigo cy'amashuri aho hariho abana bagiye babika amasahani mu ntebe, ndetse hakaba hariho n'ibikombe, bifashisha mu gufata ifunguro ryo ku ishuri, ndetse hakaba bicaye mu ishuri.

Abana babiri barimo kugenda baganira ni abanyeshuri bagiye kwiga, hakurya hakaba hari n'abandi benshi barimo kugenda bagana mu mashuri, hakaba hari ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri yayandi yisumbuye hariho abanyeshuri biganjemo abasore ndetse n'abakobwa, barimo kwandika bari gufata note, umwarimu arimo kubandikira ari nako bagenda babika amakuru.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'imyeru barimo kugenda bakora ubushakashatsi bugiye bitandukanye, aho umwe ayicaye ndetse abandi barahagaze barimo kugenda bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye babukorera muri iki cyumba.

Abanyeshuri barimo kugana mu bigo ndetse bakaba biganjemo abarimo gukina umukino w'intoki ari wo basikete, hakurya hakaba hari abandi banyeshuri barimo kugenda bitegereza ibikorwa biri kujya mbere.

Abanyeshuri bakoranyije ahantu hamwe bambaye imyenda cyangwa se impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro cyangwa amajipo ya kaki, aha ngaha bakoranyijwe barimo kugenda bayahabwa ubutumwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impozankano igizwe n'amashati y'umweru, bakaba bateraniye ahantu, hakaba hariho n'abayobozi barimo kugenda babaganiriza bicaye ku meza, ndetse bicaye imbere y'abanyeshuri.

Ahantu imodoka irimo kunyura, ni ya mihanda cyane cyane inyurwamo, n'imodoka zigiye mu cyerekezo kimwe, cyane cyane ahantu mu mujyi, hariho abanyeshuri barimo kwambuka bagana mu kindi cyerekezo, aho imodoka yabategereje, imaze no kugenda kugira ngo bambuke.

Mu kigo cy'amashuri, aho harimo abanyeshuri benshi bitabiriye igikorwa cyane cyane inama, aho barimo kugenda baganirizwa, imbere y'aho hateretse imeza iriho icyuma cy'ikoranabuhanga bita migiseri ndetse hakaba hariho ameza gitetseho n'ibitsinga bigiye bicometse.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bicaye ahantu mu cyumba, higanjemo abasore, abakobwa ndetse bateze amatwi ku muntu ugiye kubagezaho ikiganiro, bicaye ku ntebe za zindi nziza za parasitiki.

Imbaga y'abanyeshuri benshi barimo kugenda bagezwaho ikiganiro, bicaye bose, imbere yaho hakaba harimo umwe w'umwarimu afite indangururamajwi arimo kugenda abagezaho ikiganiro.

Inyubako ntoya isakaye igizwe n'aho abantu bifashisha mu gukaraba intoki ndetse hakaba hasakajwe amabati, kandi ahangaha umusha umuntu ashobora kuhifashisha akaraba mu rwe rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus.

Abana bari mu kigo cy'amashuri, aho bahagaze ku ntebe. Barimo kugenda bakora amasuku, ari na ko bagendera ku ntebe, bakagenda bahanagura ibirahuri, ndetse n'abandi barimo imbere, barimo gukubura, ari na ko bagenda bakora amasuku mu ishuri ryabo.

Ahantu hariho ibitabo bigiye bitandukanye, biri mu matsinda agiye atandukanye, aha ngaha ni hahandi umuntu ashobora kujya mu gihe ashaka gusoma igitabo, akaba yabasha gusoma, aha ngaha kandi ni mu isomero, aho watira n'igitabo.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi cyangwa se coaster, hahagaze abanyeshuri benshi bafite n'ibikapu byabo, bageze mu gihe cyo gutaha barimo kugenda binjira mu modoka bagana mu byerekezo bigiye bitandukanye, bafite n'ibikoresho byabo.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri cya Mukingi, yanditse kandi ahangaha ni mu majyepfo akaba ari mu Byimana, hakaba bigisha amasomo agiye atandukanye, indimi, ndetse bakabigisha n'iby'ikoranabuhanga.

Umuntu wambaye itabuririya y'umweru akaba afite ikaramu itukura ndetse n'igitabo arimo kugenda yandikaho, imbere ye hari amadosiye menshi hakaba hariho n'ibitabo bijyiye bitandukanye yambaye umwarimu.

Ahantu hari umuhanda ndetse hakurya hakaba hariho uruzitiro bigaragara ko ari ahantu imodoka zihagarara, umuntu ashobora kwifashisha mu gihe yagiye gutega imodoka, agana mu bice bigiye bitandukanye.

Amarembo y'ikigo cyitiriwe umwami, ndetse hakaba hariho aho umuntu ashobora kunyura, mu gihe agiye kwinjira, hakurya hakaba Hariho ubusitani busa n'ubwumagaye, hariho ekara umuntu ashobora kwambukiraraho, hakabaho n'igiti kirekire.

Ikigo cy'amashuri kigizwe na segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye, hakaba hariho ibyo bigisha, hariho kandi ibibaranga, hakaba hariho indangagaciro ndetse ni ikigo gishingiye ku rusengero.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu ku gakingo, bicaye mu ndabo, aho hariho umwarimu urimo kugenda abaganiriza, aho abitegeye bose arimo kubareba, bambaye impuzangano igizwe n'amashati y'ubururu, ndetse n'amapantaro, n'amajipo ya kacye.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri ari imbere ku kibaho arimo kwandika, afite agapapuro arimo kugenda areberaho ibintu arimo kwandika, ni kwa kundi umwarimu aba yabahaye nk'ibintu, hanyuma ibyo basubije umuntu akaba yajya imbere kubyandika kugira ngo n'abandi bagenzi be babibone.

Umwarimukazi ndetse arimo kugenda atanga amasomo ku banyeshuri, yambaye ikanzu cyangwa se itaburiya y'akazi arimo kugenda yandika ku kibaho, abana arimo kwigisha na bo bakagenda bandika ibyo arimo kubereka.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bakusanyirijwe hamwe, aho bicaye hasi, imbere yabo hariho umuyobozi urimo kugenda ubaganiriza, ndetse abarimu babo na bo bicaye mu ntebe zigiye zitandukanye imbere, aho barimo kugenda baganirizwa.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Harimo abambaye amashati y'umweru abandi bambaye amashati y'ubururu. Bahagaze imbere y'abayobozi barimo kugenda babaganiriza.

Abanyeshuri bakoranije hamwe barimo kugenda baganirizwa, biganjemo abiga mu mashuri abanza ukurikije imyambaro bambaye. Abangaba barimo kugenda bagirwa inama ku bintu bijye bitandukanye babikorewa n'abayobozi babo.

Ikigo cy'amashuri kirimo imodoka zigiye zitandukanye zihaparitse, aho hariho umugabo urimo kugenda ndetse harimo n'abanyeshuri bakiri batoya bashaka kugira ngo binjire mu modoka, ni za modoka za zindi zijyana abana zibajyanye ku ishuri.

Ikigo cy'amashuri kirimo amamodoka menshi ahaparitse, ku ruhande hakaba hari amashuri hariho n'icyapa kigaragaza ibikorerwa hano muri iki kigo uko ikigo cyitwa ndetse n'indangagaciro zikiranga.

Ishuri ririmo abanyeshuri barimo kwiga. Hari abicaye kuri za ntebe za zindi nziza zigezweho aho umwana aba yicaye yegamye ndetse afite n'ahantu ashobora kwandikira. Harimo abanyeshuri bakiri batoya abiga mu mashuri abanza.

Inyubako ifite igorofa ndetse anagera kuri abiri, aho ari mu kigo cy'amashuri hakaba hariho n'idarapo y'u Rwanda, ahangaha ni ya mashuri aba yubatse mu buryo bugezweho, cyane cyane bukunzwe muri iki gihe.

Mu kigo cy'amashuri aho hariho urubaho abantu bashobora kwandikiraho bifashishije marikeri ndetse aha ngaha ibi byumba biboneka cyane cyane mu bigo bya kaminuza, aho bifashisha ikaramu cyangwa se marikeri mu kwandika badakoresheje ingwa.

Abagabo bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, harimo kugenda bakora utuntu tugiye dutandukanye. Aha ngaha ni mu ruganda cyangwa se aho abantu baba bakorera imyitozo cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo bize, abiga cyane cyane mu mashuri yiga cyangwa se akigisha ubumenyingiro.

Ahantu hari icyapa kiyobora abantu, ahantu hari ishuri rikuru ryigisha ibintu bijyanye na tekinike i Kabutare, ndetse kandi rikaba riri ahantu hari imihanda ibiri, aho umuntu unyuze hano aba acyitegeye neza.

Ikigo cy'amashuri aho hahagaze umusore wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agashati k'amaboko maremare, ahantu ahagaze hariho icyuma bita bafure gitanga amajwi ndetse hakaba hariho inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu.

Ahantu hari icyapa gisobanura ibikorerwa muri iki kigo cy'amashuri cya Butare aho hariho ahantu ushobora kubashakira ibyo bigisha ndetse n'ibikorerwa muri iki kigo giherereye i Butare munsi y'umuhanda.

Ahantu hateraniwe imbaga nyinshi, imbere hakaba hari abantu bari mu myiyereko, barimo kugenda babasusurutsa n'abandi nabo bakagenda babatega amatwi, ari nako bagenda bihera ijisho nabo bakishima.

Imbaga y'abanyeshuri iteranira hamwe, yiganjemo abiga mu mashuri yisumbuye, hariho umudamu urimo kugenda abaganiriza, ni umwe mu bayobozi cyangwa se akaba ari umwarimu arimo kugenda abagezaho ubutumwa.

Abanyeshuri benshi biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye amapantaro y'imikara ndetse bakagira n'imipira isa n'amapantaro yabo, barimo kugenda bitegereza imbere ndetse hariho n'udutebe bagiye bicayeho.

Abarimu bari mu ishuri, arimo kugenda yigisha abanyeshuri uko bicaye mu bice bigiye bitandukanye, bari kwicara barebana, umwarimu wabo arimo hagati, afite mudasobwa, arimo kugenda abasobanurira abigisha.

Ikigo cy'amashuri gifite urubaraza rurerure, hanyuma inzugi zaho zisize irangi ry'umukara, hakaba hari umunyeshuri ukiri mutoya w'umukobwa, arimo kugenda atambika afite n'umupira mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bicaye ndetse ni mu gihe cy'izuba, abenshi baritwikiriye kugira ngo izuba ritaza kubica mu mutwe, baricaye ahantu mu kibuga imbere yabo hariho umwe urimo kugenda abaganiriza.

Urubaho rw'ibara ry'umukara, ndetse hakaba hariho inyuguti zigiye zanditseho, byakozwe n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga kuko aha ngaha aya mashuri akaba arimo n'intebe, zimwe ziri kugaragara igice kimwe.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana bagiye bicaye, bari munsi y'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse hakurya hari n'abandi barimo kugenda batambuka batambaye impuzangano, ndetse aha ngaha ni muri cya gihe abanyeshuri baba bagiye kuruhuka.

Abanyeshuri barimo kugenda mu muhanda aho biganjemo abakobwa, bamwe bahetse ibikapu. Hariho umunyonzi urimo kugendera ku igare, arimo kugenda abarangamira cyane ari na ko abitegereza, ababaza niba ari kugenda.

Amarembo agana mu rusengero, aho hariho icyapa kinini kigaragaza aho urusengero ruri ndetse n'uko rwitwa, iyi ngiyi ni kiriziya, ndetse imbere yaho hariho ubusitani bw'indabo zigiye zitandukanye, imbere na ho hakaba hariho ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri bicaye barimo kureba ibyo mwarimu arimo kugenda abasobanurira, imbere yabo hahagaze umunyeshuri, ni we uri mu kigwi cya mwarimu, arimo kugenda abahereza amabwiriza yo kwitwara mu buryo runaka.

Ahantu hari amazu agiye atandukanye yiganjemo amashuri asakaje amabati atukura hanyuma akaba yubatse yubakishijwe amatafari ayandi ahiye, akaba ariho hatanga ubumenyi bugiye butandukanye.

Ahantu hari ishuri bigaragaza n'iki cyapa gihari, aho ari mu rwunge rw'amashuri rwa mutagatifu Kizito, i Gikongoro, hariho abanyeshuri barimo kwinjira b'abakobwa gusa, ndetse kandi hakurya hariho n'utundi twana.

Ishuri riri ahantu i Butare, aho aha ngaha ryifashishwa mu kuvura cyangwa se mu gutanga ubumenyi ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva, aha ngaha babigisha kuba babasha kuganira na bagenzi babo n'ubwo baba batavuga cyangwa se batumva.

Imbaga y'abanyeshuri bicaye, barimo kugenda baganizwa bose barimo kureba imbere, hanyuma kandi hariho umwe muri bo ubayoboye, urimo kugenda abagezaho ikiganiro ababwira ku ngingo iri ku byigwa.

Urubaho rwakoreshejwe ahantu mu ishuri hakaba hashushanyijeho imbonerahamwe zigiye zitandukanye zirimo ibyizwe, hakaba hariho aho umuntu ashobora guhagarara mu gihe arimo kwandika ndetse kandi iyo yamaze kwandika barabisiba.

Abanyeshuri bahetse ibikapu, biganjemo abakobwa gusa ndetse barimo gushaka kwinjira mu modoka kugira ngo babashe gutaha, aha ngaha ni cya gihe amashuri aba arangiye, abanyeshuri barimo kugenda bagana mu ngo zabo.

Abanyeshuri bicaye mu kibuga aho barimo kugenda baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, biganjemo abakobwa, abahungu ndetse biga mu mashuri yisumbuye, bicaye mu kibuga barimo kugenda baganizwa ku ngingo zigiye zitandukanye.

Intebe abanyeshuri bicaramo ziba ziriho aho umuntu ashobora kubika ibikoresho, aho yicara ndetse n'aho yegama, za zindi zigezweho ku buryo abanyeshuri baba bicaye bisanzuye.

Abanyeshuri bari mu ishuri, hakaba hariho umwarimu wambaye ikote ry'umukara rya kositimu, arimo kugenda akosora areba ibyo abanyeshuri bagiye bakora, ari na ko agenda abahereza amanota.

Icyapa kiriho amagambo agiye atandukanye asobanura iki kigo, hariho amagambo agaragaza ibyo bigisha ndetse n'aho kino kigo giherereye kuri aderesi ushobora kugisangaho. Aha ngaha ni mu Karere ka Ruhango.

Abagabo babiri bari ahantu hari intebe, zazindi zifashishwa mu mashuri, aho umunyeshuri ashobora kwicaraho, akaba afite aho kubika ibikoresho bye, ari naho ashobora kwandikira, hanyuma kandi akaba ashobora kwegama ku ntebe ya mugenzi we.

Icyapa cyagaragaza Gatagara, aho ari ikigo giherereye muri Nyanza, aha ngaha bararangira abantu bashobora kuza aha ngaha ibyo bakora ndetse n'ahantu baherereye, angaha kandi ni buryo bwo kurangira abantu ndetse utiriwe uza kubayobora.

Abana bari mu ishuri, ndetse biganjemo urubyiruko, imbere yabo hariho umunyeshuri urimo kugenda abasobanurira, arimo kugenda abigisha abaha ubutumwa ku bintu bigiye bitandukanye, imbere yaho hariho ikibaho.

Abana bagera kuri bane bakaba bicaye. Abenshi muri bo begereye ibyuma. Hakurya hakaba hariho ikigo cy'amashuri. Na bo ubwabo bambaye impuzankano ndetse kandi barimo kugenda bicara ahantu hari ubusitani butoshye.

Icyumba kirimo ibitabo by'amoko agiye atandukanye, hakaba harimo umugabo ufashe igitabo arimo kugenda asoma, aha ngaha ni hahandi umuntu ajya akatoranya igitabo ashaka gusoma yarangiza akagisoma, hanyuma agakuramo ubumenyi.

Amakipe abiri agiye kwesurana, hariho imwe yambaye impuzankano y'imipira y'umutuku ndetse n'amapantaro atukura, hakaba hari indi yambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro asa na yo, ku buryo hariho n'abayobozi bagiye gutangiza umukino.

Inyubako igeretse kabiri ndetse kandi hakaba hariho aho umuntu ashobora kwinjirira ndetse hino hariho igiti cy'umukindo gisa naho cyakuze cyane. Cyatangiye kugira amababi yumye hakaba aha ngaha hafite inzugi z'icyatsi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora kubikamo impapuro ndetse kandi hariho amarido. Aha ngaha ni mu cyumba aho harimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanya umuntu ashobora kwicara, cyangwa se aho yabika ibikoresho bye.

Umukobwa uhagaze ku nyubako ifite amagorofa agiye atandukanye, ndetse hariho n'aho umuntu ashobora kumanukira, n'ibyuma ashobora kugenda afasheho mu gihe arimo kugenda amanuka ava hejuru ajya hasi.

Agace karimo intebe ndetse n'ameza hakaba ari mu cyumba gikorerwamo inama hakaba hariho aho umuntu ashobora kwicara na ntashobora kwegama kandi hakaba n'ameza ashobora guterekaho ibikoresho bye nka mudasobwa telefone ibitabo n'ibindi.

Aho umuntu yicaye ndetse hakurya hariho igitanda, ku ruhande hakabamo akabati ko kubikamo ibikoresho, ni ku ishuri, aho harimo n'imyenda, aho yicaye ku ruhande hariho imashini cyangwa se mudasobwa irimo kwaka.

Inyubako ndende ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, ndetse, igiye igeretse inshuro zigera kuri enye, niho haba harimo abanyeshuri benshi, kuko aya ngaya ari amacumbi.

Mudasobwa ifunguye igaragaza ibice bigiye bitandukanye, harimo amapurikasiyo agiye atandukanye, aha ngaha ni muri bwa buryo bafata amashusho bakayatubura bakoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga bita porojegiteri.

Icyumba cy'umunyeshuri kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye, aho hariho tapi cyangwa se ahantu umuntu ashobora gukandagira atiriwe akandagira kuri sima, ndetse hakurya hariho terefone ye yasharije, ndetse hakaba amavuta ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku.

Umukobwa uhagaze arimo kwitegereza mu kabati arimo kureba imyenda, hanyuma ku ruhande hariho uburiri buteretseho agashati ndetse na terefone, arimo kugenda areba imyenda ashobora kwambara, aha ngaha ni za nzu zibamo abanyeshuri.

Uburiri busashe neza bukaba buriho utuntu tugiye dutandukanye nyirabwo yagiye ategura ndetse hakaba hariho n'isuwime igiye izingirije hejuru cyangwa se igitambaro cy'isuku. Hakaba hariho n'ameza nyiri iki cyumba akoresha.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo bya bindi bifashisha mu gutubura amashusho cyangwa se projegiteri, aho byifashishwa cyane cyane mu mashuri ndetse no mu manama agiye atandukanye mu gihe arimo kwigisha.

Imyenda myinshi yanitse ahantu hariho n'ubusitani cyangwa se jaride, hariho ibyatsi bihateye n'imigozi yo kwanikaho imyenda, hakurya hariho inyubako ndende ndetse isize irangi ry'umweru.

Abagabo babiri barimo kugenda bakora ubushakashatsi bafite ibyuma, umuntu yifashisha mu kureba utuntu dutoya cyangwa se mu gihe bari kureba ibizamini bafashe cyane cyane kwa muganga iyo bari gupima abarwayi.

Ahantu hari ubwanikiro hariho umuntu ashobora gushyira imyenda ye mu gihe arimo kwanika, ndetse kandi hakaba hari utwuma twabugenewe umuntu ashobora kumanikaho imyenda, hakikijwe n'inzu zifite amabati atukura.

Igikoresho cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwandika bita urubaho, rufite irangi ry'icyatsi ndetse kandi ahantu kiri ni mu ishuri risize irangi ry'umuhondo.

Aho abantu bashobora kwifashisha bari gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda umwanda cyangwa se indwara ziterwa n'umwanda mu gihe hateye icyorezo ndetse na mbere yo kwinjira ahantu kugira ngo ubashe kwica mikorobe.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo intebe, hakaba harimo n'ameza, aho umuntu ashobora kubika mu tubati, cyane cyane ni aho abanyeshuri bifashisha mu kubika ibikoresho byabo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga, hari n'ibindi byifashishwa mu gupima ibizamini ndetse kandi hariho n'amasikirini agiye atandukanye ndetse hakaba hariho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri, aho barimo kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, barimo kunyura ku nyubako ibamo ibitabo cyangwa se isomero. Hakaba ariho hari ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu bushakashatsi, ahangaha abanyeshuri bari kugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye, bamwe bari gutaha.

Ishuri ririmo udutebe tugiye dutandukanye twa tundi umuntu yicaraho yahaguruka tugahita twongera tukifunga, izi ntebe ziboneka muri kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu bindi bigo bikomeye cyane.

Akayira kari hagati y'amazu agaragaza utwumba tugiye dutandukanye, tumeze nk'aho ari mu biro, dufite inzugi zitukura, ndetse kandi inzu yubakishijwe amatafari ahiye y'impunyu.

Imodoka iparitse ahantu, isize irangi ry'umweru ndetse hariho n'icyapa kirangira abantu aho bashobora kujya, cyane cyane ku muntu ushinzwe abakozi, ndetse imodoka imwe ifite ibara ritukura ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru.

Ubusitani bumeze neza, bwitegeye ahantu hari amazu maremare, yubatse mu buryo bw'amagorofa ndetse kandi hino hakaba hariho hari n'ikibuga abantu bashobora gukiniramo, hakurya hakaba hagiye hateye uduti dutuma ubusitani bumera neza.

Agahanda gatoya karimo icyapa cyerekeza kuri resitora y'umucyo, aho abanyeshuri bakunda kujya kwiyakirira, aha ngaha hariho umukobwa, imbere ye hariho n'undi musore, urimo kugana kuri resitora kugira ngo bafate icyo kurya.

Akapa kagaragaza icyerekezo cy'ahantu kariho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda ndetse hariho ko barimo kurangira ahantu aho hose ushobora kujya gusomera ibitabo ndetse bakakwereka n'ibindi bice.

Akabati k'umunyeshuri karimo udukoresho tumwe na tumwe, ndetse kandi akaba ari twatundi dukunze kuba aho abanyeshuri barara, aho baba bashobora kubikamo ibikoresho bigiye bitandukanye, amakayi, amakaramu, ndetse n'ibindi.

Inyubako yubatse neza, ifite ubusitani burimo umucaca ndetse hino hariho indabo z'amoko atandukanye harimo n'umukindo, aha ngaha ni za nzu usanga mu bigo by'amashuri cyane cyane muri kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri barimo kwiga imbere yabo hariho umwarimu urimo kugenda abasobanurira na bo bakagenda batega amatwi, bicaye ku ntebe ndetse ahenshi muri bo nta mpuzankano bambaye, aha ngaha ni mu mashuri makuru ya kaminuza.

Inzu irimo ibikoresho by'ishuri, imbere hakaba hariho urubaho rufite ibara ry'icyatsi, hanyuma hino hakaba hariho intebe zigiye zitandukanye, hakaba hariho n'igikoresho cyifashishwa mu gutobura amashusho kiri hakurya.

Ahantu hakorerwa ubushakashatsi aho higanjemo ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse hicayemo n'abantu, aha ngaha hakunze kugerwa n'abantu bahakora gusa abandi bo ntabwo baba bemerewe kuba bagera aha ngaha.

Ikigo cy'amashuri kenda kuzura kimaze igihe gitoya cyubatswe, aho hariho ibirahuri byamenaguritse ndetse n'ibindi byuma barimo kugenda basanasana kugira ngo abantu bazahigire hasa neza cyane.

Ahagaragaza ko ari mu isomero cyane cyane ibintu bijyanye n'ubuzima cyangwa se ubuvuzi, aha ngaha ushobora kujyamo ugatira igitabo ukaba wasoma ku bintu bijyanye n'ubuzima cyane cyane ibintu bikoreshwa mu kuvura.

Umugore w'umuzungukazi, arimo kugenda atanga ubutumwa bugiye butandukanye, arimo kobuhereza abantu bicaye, imbere hari n'abandi bafite icyapa barimo kugenda bagitunganya, kugira ngo gitange ubutumwa bugiye butandukanye, bucyanditseho.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo, abagore bari ahantu mu cyumba kimeze neza. Ni muma sare aberamo inama, aho bagiye bicaye bateze amatwi ku muntu urimo kugenda abahereza ikiganiro, ari nako bagenda bakurikira.

Ahitegeye inyubako ndende ziri imbere, hakaba hariho amatara abiri yo ku muhanda, abiri amurika mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba harimo umuntu urimo kugenda afite agakapu mu ntoki ndetse n'ak'umukara.

Akapa kagaragaza amerekezo ku nyubako nini iri muri Kaminuza y'u Rwanda, nko hakurya hari udutebe twicayemo n'abanyeshuri, hanyuma hakaba hari uruhande ruparitsemo imodoka, ndetse hano hose hakaba hakikijwe n'ubusitani butoshye.

Inyubako ndende zifite amagorofa agera kuri atatu, ndetse hakaba hariho, n'igishushanyo kigaragaza, ubutumwa burimo kugenda butangwa bugiye butandukanye hariho, n'aha abantu bashobora guhagarara bari gusoma

Ahantu hari ibibuga bigiye bitandukanye byifashishwa mu mikino ndetse bikaba bifite ibara ry'umuhondo, ari ho abanyeshuri bakinira mu gihe barimo kwidagadura batera agapira, cyane cyane umupira w'intoki bita Basket.

Ikirahure kirimo impapuro mw'imbere nka bya bindi byifashishwa ahantu hamanitse amatangazo kugira ngo babashe kugenda abantu basoma, ndetse no mu gihe imvura yaguye ku buryo adashobora kunyagiza ayo matangazo arimo imbere yanditswe ku mpapuro.

Inzira inyurwamo n'abantu barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakurya harimo abantu barimo kugenda bafata amashusho, hakaba hariho n'icyapa kibagaragaza ko barimo gukora imishinga igiye itandukanye, hakaba hari umuntu urimo kugenda abafotora.

Inyubako ebyiri ziteganye imwe ni ndende, hanyuma uva kuri imwe umanuka ujya ku yindi yo hasi, imwe igizwe n'amagorofa iyo hasi ni iy'aho abanyeshuri bacumbika, ahandi hariho amasikariye aho ushobora kuzamukaho kugira ngo ugere kuri iriya nyubako ndende.

Icyumba cy'umunyeshuri kikaba kiriho n'umusego ashobora kuryamaho. Hakaba hari igitanda cya rasoro. Hejuru hakaba hanitse imyenda ashobora kwifashisha ayambara mu bihe bitandukanye. Harimo amashati, amakanzu, ndetse hakaba hari akuma kabugenewe bamanikaho imyenda.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe, bicaye imbere ya mudasobwa zigera kuri eshatu, aha ngaha ni hahandi uza kwaka serivisi zigiye zitandukanye, hanyuma ukaza kugufasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe, aho barimo kugenda baganira; biganjemo abagize ikigo cyangwa se abayobozi b'ibigo bya kaminuza cyane cyane za IPRC cyangwa se amashuri yigisha ubumenyi ngiro.

Ishuri ryubatse nk'urusengero kuko ari rirerire cyane, hakaba hariho agahanda kagana kuri urwo rusengero, hariho ubusitani burimo umucaca ndetse n'ay'izindi ndabo z'amoko agiye atandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, higanjemo intebe, hakaba harimo n'ameza ndetse hakurya hari idirishya kuko aha ngaha nta bantu barimo ahubwo harimo ibikoresho gusa bigize kino cyumba.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibitanda bigera kuri bibiri bifite na matora zabyo. Hakaba hariho umuntu aho umuntu ashobora gukarabira, ndetse hasi hakaba hariho inkweto zifunguye umuntu yambara.

Akantu kashyizweho na minisiteri y'ubuzima ndetse hamwe n'ikigo cyo mu Rwandawanda gishinzwe ubuzima RBC, kirimo udukingirizo abanyeshuri bashobora kwifashisha mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda, aho hariho umwe ufite ubumuga barimo kugenda basunika mu kagare, inyuma hariho undi munyeshuri urimo kugenda amusunika, bahagaze imbere y'inyubako bita muri KOIKA, aho bari kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga hariho amamashini ndetse n'aho umuntu ashobora kwicara mu gihe arimo gutanga ikiganiro, aha ngaha ni za nzu zigezweho zikorerwamo inama, harimo intebe nyinshi cyane zishobora kwicarwamo n'abantu bitabiriye ibikorwa runaka.

Urusengero rwa kiliziya ya Katolike, ndetse ahangaha ni aho abantu basengera, hakaba hariho akayira gasize irangi ry'icyatsi, imbere hakaba hariho aho umupadiri aba ari mu gihe arimo gutanga cyangwa se ari gusoma misa.